Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako nziza igezweho barimo abagabo ndetse n'abagore. Hari inzira izamuka hejuru mu nzu, hakaba hari ameza ndetse n'intebe bigezweho.

Umupolisi wambaye imyenda y'akazi, yambaye n'inyenyeri akaba ahagaze ari kubwira abantu bicaye bakikijwe n'uruzitiro rw'imiyenzi, inyuma yabo hari inzu isakaje amabati.

Umugabo wambaye amarinete ndetse n'ikote ry'umukara, ishati y'umweru, akaba yambaye n'impeta, afite mikoro mu ntoki, ari kubwira abantu ibintu runaka.

Abantu benshi harimo abicaye ndetse n'abandi batanu bahagaze imbere, barimo umugore umwe ndetse n'abagabo bane. Muri ari abo harimo umusaza wambaye ingofero, ishati y'amaboko maremare n'ipantaro.

Abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo iy'umutuku ndetse n'umukara n'umweru n'ingofero, bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo hakaba hicaye abandi bantu bambaye imyenda y'imituku babakurikiye.

Abantu b'abagabo batatu bambaye amakoti bicaye ku ntebe, iruhande rwabo hateretse amazi ku meza ndetse n'indabyo zitetse zitatse ku mpande zabo, inyuma yabo hari ikirango kinini cyanditse ngo inama ya komite mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyandikishijemo amagambo ajya gusa umuhondo yanditse ngo Umurenge Kagame Cup. Munsi harimo andi magambo yandikishije amabara y'umweru.

Ahantu habereye inama y'abantu benshi bicaye ku ntebe imbere y'ameza hateretseho amazi ndetse n'ikayi na telefoni, hirya hari umuntu uri gufotora mu buryo bugezweho, imbere hari umusirikare ufite ijambo ari kuvuga.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye, hakaba harimo umugore ufite imisatsi y'umukara, ndetse yiteye akantu k'agatambaro, afite mikoro y'umutuku ndetse n'umukara, ari kubwira abantu.

Abantu bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru bicaye ku ntebe z'ubururu, bakaba bari muri sare babahaye amazi ndetse na ji. Inyuma gato hari amarido ajya gusa umweru n'amadirishya y'umweru.

Abantu benshi babyukiye mu gikorwa cya siporo mu muhanda wa kaburimbo, bakaba bakikijwe n'amatara hirya no hakuno ndetse n'ibyapa byo mu muhanda. Urebye hakurya gato urahabona ibiti byinshi.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi buri umwe afite amazi kandi intebe bicayeho zisa icyatsi. Hejuru y'abo hari abandi bicaye, hari n'inzira izamuka ijyamo hejuru.

Agacuma karekare karimo umuheha gateretse hasi, inyuma yako hakaba harimo utuntu twinshi tumeze nk'imbuto, turi mu mabara y'umukara ndetse n'umweru utagaragara neza.

Umugabo w'igikara ufite imisatsi myinshi iboshye nk'imisozi akaba yambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru ikoze mu buryo bw'ibishura bya kera.

Umuntu utagaragara neza turabona ibiganza gusa akaba afite inkono y'itabi, hirya ye hari ibyatsi byinshi binyuranye kandi bisa icyatsi.

Abakobwa beza barimo kubyina bakenyeye imyenda y'umweru n'udusengeri tw'umweru n'udutambaro mu mutwe, bakaba bari kubyinira abantu bambaye imyenda y'imikara bicaye ahantu hateguye indabo nziza cyane.

Inzira y'umuhanda w'igitaka uri kunyuramo abantu benshi, ku mpande hakaba hashinze amapoto y'umuriro, harimo umugabo umwe wuriye ipoto, arimo aracomeka umuriro ku mpande hari amazu.

Icyanya cyabugenewe kirimo amapironi menshi ndetse n'amabatiri menshi yabugenewe abika umuriro, ku ruhande hakaba hari uruzitiro rw'ibyuma ruriho utugozi tw'icyatsi.

Abakobwa bane bafite imisatsi y'umukara bambaye amaje y'icyatsi ndetse n'umweru handitseho amagambo ngo REG, bakaba bambayemo imyenda yindi imbere.

Umuhanda w'ikiraro ukomeye bari kubaka, hakaba hashinze ibyuma byinshi binyuranye ahandi baramaze kubaka ibikuta bya sima bishobora kuzacamo amazi. Hirya hari umuhanda uza kuri icyo kiraro.

Icyumba cyabugenewe kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga ryifashishwa mu mashanyarazi, hakaba harimo insinga nyinshi zigaragara z'umutuku ndetse n'ahantu bakupira n'aho bakupurira umuriro.

Akaba yuriye ipiloni arimo aramanika insinga, ahantu hari amapiloni.

Abagabo benshi bambaye imyenda y'ubururu, bakaba bafite igiti bategesheje ipoto y'amashanyarazi bashaka kuyishinga. Hirya yabo hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Amapoto y'amashanyarazi ari kunyura ahantu mu gishanga, hari urutoki rwinshi ndetse n'ibindi bihingwa. Hakurya naho hakaba hateye ibiti binyuranye ndetse n'imirima bahingamo.

Ahantu hahariwe amashanyarazi, hakaba hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, afite urupapuro rw'umweru mu ntoki. Hazitijwe ibyuma ndetse n'imishumi y'umuhondo.

Ahantu habugenewe hari amapironi menshi, ndetse na za bateri zibika umuriro, hakaba ari ahantu hakusanyirizwa umuriro. Inyuma gato hari ibihuru byinshi ndetse n'insina.

Uruganda rugezweho rwubakishije amabati, hakaba hari umunara muremure usohora umwotsi ndetse n'ibyuma bivana ibintu hamwe bibijyana ahandi, byubakishije amabati y'ibara ry'ubururu.

Inyubako yubakishije amadafari ahiye, ishakaje amabati, ikaba isize irangi ry'umuhondo, hejuru hakaba handitseho ngo "Ibiro by'Umurenge wa Kagitumba".

Abayobozi biganjemo abasirikare n'abo mu nzego z'ibanze, bahagaze imbere y'inyubako nziza isize amarangi y'umweru, yubakishije amatafari ahiye, bari kwifotoza.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati, bakaba bari kwifotoza, imbere hari umuganga wambaye imyenda y'abaganga ndetse n'igiti cy'umwembe.

Inyubako nziza isakaje amabati y'umutuku, ikaba yicayeho abantu batatu umwe yafunguye mashini undi yicaye hakurya wenyine ku ntebe. Ikaba yanditseho amagambo ngo: "Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare".

Inyubako nziza igezweho ifite irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, hirya hakaba hari imikindo ibiri, imbere hakaba hateretse kandagirukarabe ndetse na moto.

Inyubako nziza igezweho iri mu mabara y'ubururu, imbere hakaba hicaye abantu benshi haragaragara n'intebe, kandi ikaba ifite igisenge cy'amabati y'ubururu, ku ruhande hari kandagira ukarabe.

Inyubako ziri mu mabara y'ubururu zifite n'amabati y'ubururu, hakaba hari abagore bicayemo bambaye udupfukamunwa ku ntebe, hirya hakaba hahagaze uwundi mugabo na we wambaye agapfukamunwa.

Inyubako nziza zigezweho zifite amabati ajya gusa ubururu, imodoka iparitse ku ruhande ndetse n'amatara y'amashanyarazi. Hakurya hari imisozi miremire irimo n'ibiti byinshi binyuranye.

Ikiraro kinini gikozwe mu buryo bugezweho cyubakishije sima, ku mpande hakaba hariho uruzitiro rw'ibyuma by'umukara, hakurya hakaba hari umusozi uriho ibiti byinshi ndetse n'amazu y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imabare y'umukara n'umweru, ku mpande hari inzira abanyamaguru banyuramo, mo hagati hari inzira abanyamaguru batambukiramo bambukiranya umuhanda, hirya gato hari amazu menshi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, amadirishya y'ubururu, ndetse isize irangi ry'umuhondo, hakaba hariho icyapa kiriho inka, hirya gato hakaba hahagaze umugabo ufite moto iriho ibicuba by'amata.

Inzira y'ikiraro ica mu kirere ikikijwe n'ibyuma biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, hirya gato hakaba harimo imodoka n'inyuma hakaba hari abantu bagiye kunyuraho.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru cyandikishijeho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, hasi kikaba kiri ahantu hasa umukara, ku mpande hari umuhanda w'abanyamaguru.

Abantu benshi biganjemo abagore bari kugenda baca ku kiraro kigezweho gifite ibintu by'imigozi ku ruhande. Iruhande rwabo hari ikidendezi cy'amazi ndetse n'ibyatsi bigiye bitoye iruhande rw'icyo kiraro.

Abantu bari ahantu hari kubakwa ikiraro, hakaba hashinze imbaho nyinshi ndetse n'ibindi birambitse mu muhanda by'ibikoresho byifashishwa kubaka. Hirya gato hari izindi nyubako zituyemo abantu.

Ikiraro kinini gikikijwe n'ibyuma by'umutuku, hakaba hagiye gucaho ikimodoka kirekire cy'umweru gihetse iyindi modoka isa umuhondo. Ku mpande hari ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi.

Abagabo barimo abambaye ingofero n'undi umwe utambaye, bahagaze imbere y'igiti cy'umuyenzi, iruhande rwabo hari icyapa kinini cyanditseho ngo Gikoba liberation history trail, inyuma yabo hari urutoki.

Umugabo wambaye ingofero, amarinete, ishati y'amaboko magufi n'ipantaro akaba afite mikoro mu ntoki, ari kubwira abantu bicaye inyuma ye bamuteze amatwi. Iruhande rwe hari ameza ariho ibyuma by'umuziki.

Abantu bahuriye mu nama ahantu runaka bicaye muri salo, ku ruhande haragaragara igikuta gisize irange ry'umuhondo ndetse n'amarido, hakaba babahaye amazi buri umwe afite icupa rye.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bateze ibitambaro, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye imyenda y'ikigo k'Igihugu gishinzwe iperereza RIB, akaba afite mikoro ari kubaganiriza.

Abantu barimo umusirikare umwe wambaye impuzankano yabo akaba ari kumwe n'umukecuru wakenyeye n'undi mugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, bakaba bafite seritifika bari kwifotozanya inyuma yabo hicaye abandi bantu.

Abantu benshi bateraniye ku kigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ya buroke gifite amabati y'ubururu, amadirishya y'ubururu, bakaba bahagaze munsi y'ibiti bari kumva ikiganiro.

Abantu baturutse mu nzego zinyuranye harimo abasirikare babiri, umwe yambaye ingofero ya gisirikare, amarinete n'imyambaro yo hasi n'iya gisirikare akaba afite urupapuro mu ntoki, akaba yegeranye n'undi mugabo wambaye imyenda isanzwe.

Abagabo bane bambaye neza amakote n'amashati, harimo umwe wambaye amarineti. Bahagaze imbere y'inyubako ndende, iriho ibendera ry'igihugu, ikaba isize amarangi y'umuhondo.

Abantu bicaye mu itente ry'umweru abandi bicaye mu biti benshi, biganjemo abagabo n'abagore, iruhande rwabo hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti bigiye bishinze bicayemo.

Umugabo wo mu rwego rushinzwe guperereza ibyaha wambaye ijire y'umukara ya RIB, akaba ahagaze afite mikoro n'agapapuro mu ntoki, inyuma ye hakaba hari abantu bicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'umukara.

Umu mama ujya kuba umukecuru wambaye furari mu ijosi yanakenyeye imikenyero y'amabara yambaye n'umwenda w'umukara mo imbere afite mikoro y'umukara mu ntoki ndetse na terefone mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru ku ruhande, hirya gato hakaba haparitse moto ndetse n'imodoka eshatu, munsi y'inyubako ndende itagaragara neza.

Imodoka nini cyane isa umweru ndetse n'umukara, ikaba iri kunyura mu muhanda wa'amabuye. Inyuma yayo hari inzu ya sosiyete y'itumanaho ya MTN, hakaba haparitse na moto iruhande rw'inyubako.

Icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo y'umukara ngo Karangazi aciyemo umurongo, inyuma yacyo hakaba hari amapoto y'amashanyarazi ndetse hariho n'insinga, hirya gato hari ibiti n'amashyamba.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara inzira y'abanyamaguru, harimo umuntu uri kugenda. Hino gato hari uruzitiro rw'urugo ruriho icyapa kirekire kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, handitseho udusaraba tubiri n'amagambo ngo ivuriro.

Icyapa cy'umweru cyanyandikishijeho amagambo y'umukara agira ati" dominican fathers of Rwanda, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo uriho n'imikindo ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Imodoka itwara abagenzi ikaba isa umweru, hari umugabo wambaye ingofero y'umweru afite n'igikapu mu ntoki na ji mu ntoki, uri kugenda ashaka gutega ariko hari undi uhagaze mu muryango.

Icyapa kinini cy'umutuku n'umweru, kikaba kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, irimo imirongo myinshi igaragaza aho ibinyabiziga n'abanyamaguru banyura. Hirya gato hari moto ihetse umugenzi.

Imodoka yo mu bwoko bw'idayihatso isa umweru, ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande hakaba hari umukobwa wambaye agapira k'umweru ari kumwe n'undi wambaye imyenda y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi uriho ibishushanyo, akaba ateruye ibuye mu ntoki. Inyuma ye hari umugore wikoreye ingata ku mutwe n'umukobwa wambaye ingofero.

Abantu benshi bazindukiye mu gikorwa cy'umuganda cyo kubaka inzu, bakaba barimo barabumba ibyondo, hirya hakaba hari inyubako ebyiri bari kubaka zisakaje amabati, ku ruhande hari igihingwa k'ibigori ndetse n'ibiti bihahagaze.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bafite amasuka menshi bameze nk'abari mu muganda, hakaba hagaragara umusirikare wambaye imyenda afite n'anteni ndende n'imbunda akurikiwe n'undi. Inyuma yabo hari urutoki.

Abantu benshi bo mu nzego z'ubuyobozi biganjemo Polisi ndetse n'Abasirikare n'aba DASO, bakaba bicaye ahantu bateguye neza hari mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu bakurikiye imbere.

Abantu benshi bahagaze bishimye bari kubyina baririmba, hakaba hari umugabo uhagaze imbere wambaye ishati y'umukara iriho akarongo k'umweru, ipantaro y'umukara na bote ari gukoma mu mashyi.

Abantu benshi bazindukiye mu muganda harimo: abadaso, abasirikare, abapolisi n'abaturage batandukanye bafite amasuka bari gukora umuhanda ujya mu ngo z'abantu. Hepfo hagaragara inzu nyinshi.

Umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano, akaba ahagaze ari gusuhuza abantu yegeranye n'undi wambaye ingofero y'umukara n'ishati y'umweru ari guseka. Inyuma yabo hari igiti kinini n'indabo inyuma.

Icyumba kirimo umwijima, kirimo ibyuma bigiye bitandukanye, hakaba harimo amakaro n'inkuta zifite irangi rijya kuba umukara, hakaba hahagazemo abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'amaboko magufi y'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bahuriye ahantu hameze nko mu kibuga hakaba hari abagabo babiri bambaye amarinete ndetse n'amakote na karuvati n'amashati mo imbere n'amapantaro y'umukara bari imbere baganira baseka.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu, irimo akarongo k'umweru, yambaye n'amarinete, akaba yambaye n'umupira w'umukara, afite mikoro y'umutuku mu ntoki ndetse n'rupapuro mu ntoki.

Abantu b'abagabo bazindukiye mu muganda rusange, hakaba harimo abasirikare ndetse n'abandi basore bambaye inkweto z'ubwoko butandukanye bafite amasuka bari guhinga. Inyuma yabo hakaba hari uruzitiro rw'ibiti.

Abantu benshi babyukiye mu gikorwa cy'umuganda bafite amasuka ndetse harimo abambaye imyenda iri mu amabara atandukanye. Hirya hari urutoki rwinshi ndetse n'ibindi biti bibakikije.

Abantu babyukiye mu muganda bikoreye amabuye bikoreje ingata, hakaba hari n'inzego z'umutekano, harimo n'umupolisi ufite imbunda ndetse n'umudaso ufite isuka.

Abakinnyi bari muri sitade bakina, hakaba hari abafite imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye imyenda y'umuhondo, inyubako barimo ifite amadirishya y'umweru ndetse hakaba hari n'uruzitiro rw'ibara ry'umweru.

Ikibuga cy'umupira kirimo umusenyi kigaragara izamu rimwe, hakaba harimo umukinnyi wambaye inkweto, amasogisi y'umukara n'iyenda y'ubururu irimo ibara ry'icyatsi.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bakaba bari gukina. Hirya yabo hari ibyatsi byinshi n'uruzitiro rw'urugo rufite amatafari ahiye ndetse n'ibiti bindi bishinze by'amapoto.

Imodoka ya Polisi ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'umuhanda hakaba harimo inzira y'abanyamaguru ndetse harimo n'abantu bari kugenda n'amatara ari kwaka.

Abakinnyi bari gukina umupira muri sitade ifite ibyuma by'umweru n'amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu, abo bantu bakaba bambaye impuzankano y'icyatsi n'abandi bambaye iby'ubururu.

Abantu benshi baramukiye muri siporo, bavanzemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda igiye itandukanye y'umutuku, iy'umweru, iy'umukara ndetse n'iyindi, inyuma yabo hakaba hari izamu risa umweru, hakurya hari inzu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi bari gukina, bambaye imyenda igiye itandukanye abambaye iy'ubururu n'icyatsi, abambaye ijya gusa umuhondo bakaba bari gukina hakurya hari ababafana.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi batatu, bambaye inkweto zifunze ndetse n'imyenda yabugenewe. Hakurya haparitse moto ebyiri n'abantu baje kureba uwo mukino.

Abakinnyi bambaye imyenda y'umutuku, abandi iy'ubururu b'abakobwa bari muri sitade bari gukina, bari kurwanira umupira umwe ashaka gutsinda undi n'undi ashaka kuwumwambura mbese bari mu irushanwa.

Abantu benshi bari mu gikorwa cya siporo bambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara agiye atandukanye, inyuma yabo hari ikibuga n'abantu bari gukiniramo ndetse hakaba hagaragara n'amazamu.

Abagabo bicaye muri sitade ku dutebe tw'ubururu, ab'imbere bicaye ku ntebe z'umukara baseka bishimye, harimo umwe wambaye ingofero n'undi witeretse icupa ry'amazi imbere.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rwambaye imyenda y'abakinnyi isa umuhondo ndetse n'umukara, ndetse hakaba hari n'umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro afite na mikoro.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga kigaragara ko kirimo tapi, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'icyatsi, abandi bambaye imyenda y'umuhondo. Hakurya hari amazamu ari mu ibara ry'umweru.

Abakinnyi bari mu kibuga harimo uwambaye imyenda y'ubururu ufite nimero icumi mu mugongo n'undi ufite nimero enye, bakaba bari gukina n'undi wambaye imyenda y'umuhondo ariko ari kwataka.

Abantu bari kwifotoreza imbere y'umupira w'amaguru ndetse bafite n'icyapa kinini cy'umweru cyanditseho ngo Nyagatare disitirikiti, Umurenge Kagame kapu. Harimo abakobwa ndetse n'abamama bafite imisatsi y'umukara.

Abantu benshi bari muri siporo, amatara ari kwaka, ku ruhande hari akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN n'abana, iruhande hari inyubako ndende igeretse.

Abantu benshi bicaye muri sitade, hari utuzu turimo abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bashinzwe umutekano. Hasi hari kugaragara ibara ry'umuhondo ku nyubako ndetse n'inzira izamuka ijya aho bari.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru, ukaba urimo umwana w'umusore wambaye agapira k'umutuku, ipantaro y'umukara n'inkweto, ari kugenda aca muri urwo ruhande rw'abanyamaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo usa umukara, ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru, irimo abana babiri, bameze nk'abanyeshuri bambaye imipira y'imituku, umwe ahetse igikapu mu mugongo.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mabara y'umukara, harimo umurongo utambika w'umuhondo, ku ruhande hakaba hariho inzira y'abanyamaguru ndetse n'abantu bari kugenda batambuka, harimo abambaye imyenda y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo amapave yo ku ruhande anyuramo abanyamaguru, hakaba harimo igicucucucu cy'umuntu w'umugabo wambaye ipantaro uhagaze, ku ruhande hari n'igicucu k'igiti.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, usa umukara harimo n'imirongo y'umuhondo, hirya gato haragaragara ibiti birebire bishinze ahantu mu byatsi byinshi hatajya hahingwa.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ihetse umugenzi wambaye kasike y'umutuku n'igikapu mu mugongo, hakurya haparitse ayandi mamoto menshi ndetse n'ingo zigiye zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umukara n'umweru, hirya gato hari inzu ya konoshi iriho icyapa cyanditseho ngo Forutibeti. Ikaba iteye irangi rijya gusa umutuku.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru, ari guca mu muhanda w'abanyamaguru muri kaburimbo, hakurya hari akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN.

Igipangu cyubatse neza mu buryo bugezweho kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ku mpande kikaba gishitije n'ibyuma by'umweru ndetse n'umukara, ndetse hino gato hari kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, mo hagati hakabamo imirongo y'umuhondo, ku mpande hari amapave ahantu banyura, hakurya hakaba ibyatsi.

Abanyonzi babiri bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo bari ku magare, iruhande gato hari igipangu kiza gisize amarange y'umuhondo gifite umuryango ujya kuba icyatsi ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti.